Uyu ni muganga yambaye ishati y'umweru n'amarinete, afite imashini yabugenewe yo kwa muganga, ipima amagufa ari mu mubiri w'umuntu uko aba ateye afatishijeho ibiganza byombi arikwereka abantu abasobanurira.

Aha ni kwa muganga, mu cyumba cy'ibagiro, harimo agatanda gashasheho ishuka, ku ruhande hari ibyuma umurwayi bagiye kubaga ashyiraho amaguru, hejuru hari amatara amurika hasi.

Iri ni ishyamba, ririmo ibiti bitandukanye, ibifite amahwa, ibifite amashami maremare, hakaba harimo n'ibigufiya, ibifite indabyo z'amawuwa zitukura, bikaba biri ku musozi, bikaba bikingirije ikirere.